Inzu y'umu agjnti wa Eyateri mani, Tigo kashi, MTN mobayiro mani, aho wohereza, ukanakira amafaranga mu buryo bworoshye akabigufashamo.

Igitanda kiri mu cyumba hejuru hamanitse inzitiramubu, imbere yacyo hari ikirori, uryamaho ukaruhuka ukabyuka ufite imbaraga ujya mu kazi.

Umumotari arimo gushaka umugenzi avugisha umukobwa ugeze aho abategereza imodoka, umukobwa areba muri telefoni yamwimye amaso bari imbere y'imodoka z'urukanda sikolu.